Imbaga y'abantu benshi batandukanye harimo abagore, abagabo bashinzwe gukurikirana ubuzima bw'abantu. Barimo bishima cyane kubera ko bamaze guhugurwa bakumva neza uburyo gufata neza ubuzima ari ingirakamaro.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, harimo abagore, abagabo ndetse n'abasore bahawe amahugurwa ku byerekeye ubuzima, barishimye cyane bitewe n'uko bamenye uburyo bafata neza ubuzima bwabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Ivomero rusange ririho abantu barimo kuvoma, barimo gushaka amazi kugira ngo bayifashishe mu gukora isuku, kumesa imyenda, koza ibyombo ndetse n'ibindi byose bishobora kwifashishwa kugira ngo umuntu arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ivomero rusange ririho abantu batandukanye, harimo umusore, umumama ndetse n'umwana, barimo kuvoma amazi kugira ngo babashe kugira isuku, batunganye ibiribwa, bifite isuku kugira ngo bakomeze kumererwa neza kandi bagire ubuzima buzira umuze.

Ingamba zafashwe na leta kugira ngo hakomeze kwita ku buzima bw'abantu batandukanye, harimo abamama n'abagabo bambaye udupfukamunwa kugira ngo hirindwe indwara zandurira mu mwuka. Ndetse kandi hari umugabo urimo guha umwana ikinini kimufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ingamba zafashwe na Leta kugira ngo hirindwe umwanda ukomoka ku kuvoma amazi aturuka mu misozi itandukanye, bityo uyakoresheje bigatuma yandura indwara nyinshi cyane.

Ingamba zafashwe n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima, aho buri rugo rugomba kugira kandagira ukarabe mu rugo. Aho hari umwana uri mu rugo arimo gukaraba akoresheje kandagira ukarabe, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ingeri z'abantu benshi batandukanye harimo abamama, abana ndetse n'abagabo, barimo kwigishwa uburyo bagomba gufata neza imibiri yabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Gahunda yafashwe n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda mu kwita ku bana batoya ndetse n'ababyeyi, aho umwana bamupima ibiro buri kwezi, kugira ngo barebe uburyo imikurire ye imeze, bityo babone uko bamufasha gukomeza gukura neza kandi afite ubuzima bwiza buzira umuze.

Imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, barimo kuganira ku byerekeye ukuntu bafata neza ubuzima bwabo.

Umumama uvuye ku ivomero rusange, avuye kuzana amazi kugira ngo abashe gutekera abana bavuye ku ishuri, abashe kubakorera isuku kugira ngo akomeze kubaho neza kandi akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umwana wishimye cyane uri ku ivomero bitewe n'uko arimo gukaraba amazi meza kandi afite isuku, bityo bikamufasha gukomeza kurandura indwara zandurira mu mwanda bityo akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru, barimo guhugurwa kubijyanye n'ubuzima bwabo, uburyo bafata imibiri yabo kugirango babashe kugira ubuzima bwiza.

Umwana wishimye cyane arimo kuvoma amazi kugira ngo abashe kuyakoresha mu gutunganya ibiribwa ndetse no kumesa imyambaro kugira ngo abashe kugaragara neza kugira ngo akomeze kugira ubuzima.

Ingamba zafashwe na Leta kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza, uyu mwana uri kumwe na mama we, barimo gusoroma imboga zifashishwa mu kurwanya indwara igihe zitunganyijwe neza bityo bigatuma barushaho kugira ubuzima buzira umuze.

Ingeri z'abantu benshi cyane batandukanye, harimo gufatwa ingamba zerekeye ubuzima ndetse ubona ko hari n'amazi arimo kunyobwa kugira ngo abafashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ingamba zafashwe na leta kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza. Aba bagabo babiri bishimye cyane barimo kuganira ku buzima bwabo aho buri wese ari kuganiriza undi uburyo abayeho bose bagasanga babayeho neza. Bose bafite icyizere cyo gukomeza kubaho neza ndetse no gukomeza kumererwa neza birushijeho.

Ingamba zafashwe na leta kugira ngo zikomeze kwita ku buzima bw'abaturage. Aho umukecuru harimo gufatwa amaraso kugira ngo barebe uburyo ubuzima bwe buhagaze, bamwiteho kugira ngo arusheho gukomeza kumererwa neza.

Ingamba zafashwe na Leta kugira ngo isuku igere ku bantu bose. Aha ngaha hari abana babiri bishimye cyane bitewe n'uko barimo gukaraba, bakarwanya indwara zandurira mu mwanda. Bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ingamba zafashwe na leta kugira ngo hitabwe ku buzima bw'umwana, aho uwo mugabo arimo guhereza umwana amata kugira ngo uwo mwana agire igikuriro cyiza kandi akure mu gihagararo no mu bwenge bityo bimufashe kugira ubuzima bwiza.

Umwana uri ku ivomero arishimye cyane, arimo gushaka amazi yo kunywa kugira ngo akomeze ubuzima bwiza, ndetse kandi aya mazi yifashishwa no mu gukora isuku, kugira ngo hakomeze kuba ahantu hafite isuku, kugira ngo atandura indwara zandura.

Abantu batandukanye, biganjemo urubyiruko, barishimye cyane kubera ko bahuguwe, ku byerekeye ubuzima. Bambaye ibirango bigaragaza ko bakurikirana ubuzima, kugira ngo ubabonye wese, abe yababaza ibyerekeye ubuzima, kugira ngo nawe abone uko yakwifasha, kugira ubuzima bwiza.

Abana urabona ko bishimye cyane, barimo kugaburirwa n'umupolisi ndetse n'abandi bantu bakuru, barimo kubagaburira amata kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kugira ngo nabo bakure bafite ubuzima bwiza.

Abana benshi cyane bishimiye gukaraba ibiganza bitewe n'uko batojwe kugira isuku. Barimo gukaraba ibiganza kugira ngo birinde indwara zandurira mu mwanda bityo barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abamama n'abakobwa ubona ko bicaye bihebye cyane, barimo kugirwa inama y'ukuntu bashobora kwita ku buzima bwabo kugira barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umwana wishimye cyane uri kuri kandagira ukarabe, arimo gukaraba intoki kugira ngo akomeze kugira isuku kandi yirinde indwara zandurira mu mwanda kugira ngo na we akomeze kumererwa neza, agire ubuzima buzira umuze.

Umuganga urimo gupima umukobwa kugira ngo arebe neza uko umutima urimo gutera, kugira ngo amufashe gukomeza kurushaho kugira ubuzima bwiza, kandi amugire n'inama yatuma akomeza kumererwa neza, kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Ingamba zafashwe na Leta kugira ngo hirindwe indwara zikomoka ku mwanda. Yegereje abaturage ivomero kugira ngo bajye babona amazi byoroshye bityo birinde indwara zandurira mu mwanda. Umukobwa wishimye cyane uri kuvoma amazi ari kuyakoresha mu masuku bityo akirinda indwara zandurira mu mwanda.

Umuganga urimo gufasha umukobwa, arimo kumupima kugira ngo arebe uburyo umutima we urimo gutera kugira ngo abashe kumugira inama y'icyo yakora ku buzima bwe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umupapa n'umwana we bishimye cyane, barimo kugaragaza ko bagomba kurindwa umwana kumuvunisha kugira ngo akure afite ubuzima bwiza, kugira ngo umwana azagirire akamaro igihugu ndetse n'umuryango we.

Ingamba zafashwe n'ikigo kita ku buzima kugira ngo harandurwe indwara ya kanseri. Mu kwisuzumisha kugira ngo iyo ndwara icike burundu kugira ngo hatagira uzayandura ndetse no kurandura kanseri y'inkondo y'umura kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ingamba zafashwe kugira ngo buri wese akomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza. Hari umumama ufite umwana urimo kuvoma kugira ngo abashe gutunganya neza ibiribwa ari buhe umwana ndetse kandi nawe akarya ibiryo bifite isuku. Ikindi kandi ni ukugira ngo abashe kwambara neza imyambaro ifite isuku.

Ivomerero rusange ryahuriweho n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagore, abagabo, abana bazanye ibivomesho kugirango bacyure amazi mungo zabo bifashisha mu gukora isuku, mu koza ibyombo, mu gukora ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko, bambaye ibirango bigaragaza ko bahawe amahugurwa ku byerekeye ubuzima bityo bakifashishwa mu guhugura abandi kugira ngo na bo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Imbaga irimo abantu batandukanye, harimo abagore aba papa, ndetse n'abakecuru, barimo guhabwa inama zerekeye ukuntu bafata neza ubuzima bwabo kugira ngo babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, harimo kugirwa inama kugira ngo bakomeze kwirinda icyatuma ubuzima bwabo bumererwa nabi.

Ingamba zafashwe na Leta kugira ngo buri wese abashe kugira isuku mu rugo iwe ndetse n'aho ari hose. Hashyizweho imigezi ahantu henshi hatandukanye kugira ngo abantu bajye babona amazi byoroshye. Aha hari abama batatu barimo kuvoma amazi kugira ngo bayifashishe mu gukora isuku bityo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana bishimye cyane, ubona ko bafite ibyishimo byinshi cyane, bishimiye ukuntu barimo kugaragarizwa ko nabo bagomba kugira uruhare ku buzima bwabo, bagakora siporo, ndetse bakarya neza, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana urimo ku ivomero arimo gukaraba ibiganza ubona ko yishimye cyane, bitewe n'uko arimo gukora isuku kugira ngo yirinde indwara zandurira mu mwanda ndetse kandi hari n'indobo yaje kuvomeramo kugira ngo ayo mazi ayageze mu rugo na yo ayifashishe mu kumesa imyenda ndetse no mu gutunganya ibiribwa kugira ngo ababikoresha barusheho kumererwa neza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye harimo abagabo, abagore barimo guhabwa amahugurwa ku byerekeye ubuzima bwiza ku baturage bose. Aba bantu bishimiye kuba bamenye uburyo bafata neza ubuzima bwabo, bityo bakarushaho kumererwa neza.

Abana bishimye cyane barimo gukaraba intoki ku ivomero kugira ngo bagire isuku birinde indwara zandurira mu mwanda, bityo barusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Abagabo n'abamama bari kumwe n'umuganga, barimo kwishimira uburyo bahawe serivisi z'ubuvuzi bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze kugira ngo barusheho gukomeza kubaho neza.

Ingamba zafashwe na Leta kugira ngo abantu barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza, aha hari abagore bari kubyina, bishimye cyane kandi no kubyina ha harimo umwitozo ngororamubiri aho barambura imitsi y'amaboko, iy'amaguru ndetse n'ubwonko bukabasha gutekereza neza bityo bakarushaho gukomeza kumererwa neza.

Ingamba zafashwe na Leta mu gukangurira abantu gutanga amaraso bityo bigatuma abantu bashobora kuba bakongerera abandi igihe cyo kubaho bitewe n'uko gutanga amaraso ari ugutanga ubuzima, bityo bigatuma abahawe amaraso bamera neza kurushaho kandi bakagira ubuzima buzira umuze.

Imbaga nyamwinshi, y'ingeri z'abantu batandukanye, harimo abagore, abamama, bazanye abana babo, hari na muganga urimo kubahereza imiti, kugira ngo akomeze kubafasha kubungabunga ubuzima bw'abana, kugira ngo abana bakure, bafite ubuzima bwiza.

Ingamba zafashwe na Leta y'u Rwanda kugira ngo bite ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo na bo babashe gufatwa nk'abandi kandi na bo bafashwe kurushaho kumera neza birushijeho, abo bantu babarinde babashyire ahantu habugenewe kugira ngo bitabweho na bo bagire ubuzima buzira umuze.

Ingamba zafashwe na Leta kugira ngo ikibazo cyo mu mutwe cyitabweho kugira ngo abagize icyo kibazo na bo babashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, bityo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko, barimo guhabwa amahugurwa ku byerekeye ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo babashe kuba bafasha umuntu wagize icyo kibazo, kurushaho kumererwa neza na we akumva ko ari nk'abandi kandi ko agomba kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukecuru wishimye cyane bitewe nuko yari afite ikibazo cy'ubwonko none akaba yishimiye ko cyakemutse, ubu ngubu akaba agaragara neza bityo bigaragara ko afite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imbaga nyamwinshi yiganjemo urubyiruko rwishimye cyane, bitewe n'uko rumaze kuganirizwa ku buzima bwabo bityo bakamenya uburyo imitekerereze yabo yabasha kumera neza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo abagore, abagabo, barimo kuganirazwa ku bijyanye n'ubuzima bwabo mu mitekerereze kugira ngo bajye barushaho gutekereza neza kandi barusheho kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'urubyiruko yishimiye kuba imaze guhabwa amahugurwa yerekeye ku buzima bwo mu mutwe, ku buryo bashobora kuganiriza uwahuye n'icyo kibazo bikamufasha kuba yagarura ubwenge ku gihe, bityo na we agatekereza ko agomba kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze na we akabaho neza nk'abandi.

Umuntu wagize ikibazo cy'ubwonko arimo gutoragura amashashi mu kimoteri bigaragara ko akenewe ubuvuzi bwo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. Afite intwaro mu ntoki bigaragara yuko hari ikintu arimo kubona arimo kurwanya. Hakenewe ubufasha kugira ngo abashe.

Imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye, harimo urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo barimo guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwabo bityo bakarushaho kumererwa neza.

Umukecuru wishimye cyane ubona ko ari guseka cyane bitewe nuko ari kubona ibintu bishekeje birimo kumufasha kuruhura ubwonko kugira ngo atekereze neza, kugira ngo yere gukomeza kwitekerezaho cyane, akomeze agire ubuzima bwiza.

Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu benshi batandukanye kugira ngo harebwe ikibazo cyo mu bwonko, gituma abantu bamererwa nabi. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko abantu bagize ibibazo byo mu mutwe, bagomba kwitabwaho kurusha abandi kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Umumama ucigatiye umwana, arimo kumwereka ukuntu yafata neza umubiri we kugira ngo abashe kuruhura ubwonko kugira ngo hatagira ikimuhangayikisha, ku buryo akomeza gutekereza ku buzima bwe no ku bw'umwana kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abamama n'abapapa, bishimye cyane, bitewe ni uko, bahawe, impamyabushobozi, igaragaza ko, bafite, ubumenyi, ku bijyanye n'ubuzima, bwo mu mutwe, kugira ngo ababagana, bajye bagira inama, ndetse babafashe, gukomeza, kumera neza.

Umuntu wicaye mu muyoboro w'amazi, ufite ikibazo cyo mu mutwe, arimo gutoragura amashashi, hakenewe ubuvugizi kugira ngo na we yitabweho kandi na we arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo n'umugore barimo gufasha umuntu wari wagize ikibazo cyo mu mutwe, bityo barimo kumufasha kugira ngo abashe gutekereza neza na we abe yagira ubuzima bwiza nk'ubw'abandi, bityo bikamufasha gukomeza kugaruka mu murongo neza, agatekereza neza, ku buryo na we agira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, harimo ingeri zitandukanye, abakobwa, abamama ndetse n'abagabo bishimye cyane bigaragara yuko baganirijwe ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kandi bakaba bafashe ingamba zo gukomeza kwita ku buzima bwabo kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Umugore wicaye mu cyumba cya wenyine, ubona ko yihebye cyane arimo kwitekerezaho cyane bikabije aho arimo kureba ibintu bimufasha kuba yaruhura ubwonko neza kugira ngo abashe gutekereza neza, akomeze agire ubuzima bwiza.

Umusore wishimye cyane uri kwireba mu ndorerwamo, arimo kugaragaza igice cy'amenyo ndetse kandi afite n'urudodo arimo gukoresha ari gupima amenyo kugira ngo arebe ko aringaniye bitewe n'uko bamukoreye serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo.

Serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo uburyo amenyo bayakora neza kugira ngo uwahawe serivise akomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza, mu kuyahoma, mu kuyakura, ndetse no mu kuyoza, kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza kandi agaragare neza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukura amenyo, kuyahoma ndetse no kuyoza kugira ngo urwaye amenyo akomeze kugira ubuzima bwiza, akomeze kubaho atari mu bubabare bw'uko arwaye amenyo ahubwo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Umusore wishimye cyane urimo kugaragaza amenyo cyane cyane, arimo kugaragaza amenyo kubera ko amenyo ye bayitayeho, bayavuye asa neza cyane, barayahomye kugira ngo akomeze kugaragara neza kandi arusheho kumera neza cyane.

Umugabo urimo guhanagura amenyo, arimo gukuramo imyanda kugira ngo itamwanduza, arimo kugira ngo afate neza umubiri we kugira ngo arusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Imbaga y'urubyiruko yahurijwe hamwe kugira ngo yigishwe uburyo yakwita ku menyo kugira ngo hirindwe indwara zandurira mu mwanda biturutse kuba umuntu yariye ibintu bidufata mu menyo, bityo bigatuma na bo barushaho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wishimye cyane urimo guhanagura amenyo akoresheje uburoso na korogati kugira ngo arwanye indwara zandurira mu mwanda, bitewe nuko hari imyanda iba yafashe mu menyo.

Umwana ubona ko yishimye cyane arimo guhabwa serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo kugirango akomeze kubaho neza kandi agaragare neza. Ari kumwe n'umuganga urimo kumufasha muri iyo serivisi mu guhoma amenyo kugira ngo umwana akomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Umwana wishimye cyane bitewe n'uko arimo koza amenyo ye bityo bikamufasha kwirinda indwara zandurira mu mwanda, binyuze mu myitwariye bikaba byahagama mu menyo, bityo bigatuma umuntu ahumura nabi mu kanwa cyangwa se agira n'ibindi bibazo byandurira mu mwanda.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yubatse neza cyane ku buryo bufite isuku, harimo intebe zifasha umurwayi kwicara kugira ngo abashe kubona serivisi atuje bityo bikamufasha gukomeza kumera neza kurushaho.

Ubuvuzi bw'amenyo harimo: kuyagorora, kuyasukura, kuyahoma ndetse no kuyakura kugira ngo umuntu abashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, kugira ngo atandura izindi ndwara zandura mu myanda iba yafatiye mu menyo.

Umuganga urimo uravura umwana amenyo kugira ngo akomeze amufashe kumera neza, birushizeho ari kuyahoma kugira ngo umwana akomeze kugaragara neza cyane kandi afite ubuzima bwiza.

Umusore wishimye cyane bitewe n'uko bamuhaye serivisi yo kumuvura amenyo, amenyo ye urabona ko ameze neza cyane, aho bayahomye none ukaba wagirango ngo ni aye bwite kandi arayo bamushyiriyemo, urabona ko ameze neza cyane.

Umusaza n'umukecuru barimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo barwanye indwara ziza mugihe bari mu za bukuru, kugira ngo amaraso akomeze gutembera neza mu mubiri, basohora imyanda mu mubiri, amaraso atembera neza, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore n'umukobwa barimo gufasha umukambwe uri mu zabukuru, bamufasha kugenda kugira ngo adakomeza kuryama imitsi ikihina kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri ndetse n'ubwonko bubashe gutekereza neza.

Umukecuru n'umusaza bari mu zabukuru, barishimye cyane, bitewe n'amakuru barimo gusoma, yerekeye ku buryo bakwita ku mubiri wabo, bityo bakarushaho gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza wifashe ku munwa, arimo kureba ibintu bishobora gutuma afata neza umubiri we bityo bigatuma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze kugira ngo agire icyizere cy'ejo hazaza.

Umwana uri kumwe n'umumama uri mu zabukuru, barimo gukina bityo bigafasha uyu mumama gutuma yigirira icyizere cy'ejo hazaza, arishimye cyane bitewe nuko ari kumwe n'umwana bityo bikamufasha kuruhura ubwonko ndetse no gutuma arushaho kugira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umwana we barishimye cyane bitewe n'uko umwana arimo kwereka umusaza uburyo ashobora gufata neza umubiri we bityo akarushaho kumererwa neza. Aha hari ibikombe by'amata barimo kunywa kugira ngo abafashe gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukecuru n'umusaza bishimye cyane, kubera ko barimo gufata amafunguro y'ubwoko butandukanye, kugira ngo hirindwe indwara zandurira mu mirire mibi, kugira ngo bakomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza, muri iryo funguro harimo: imboga, imbuto ndetse n'ibindi, bibafasha mu gukomeza kugira.

Umwana urimo gukina na mama we uri mu zabukuru, kugira ngo umumama we akomeze kubaho yishimye kandi atoze n'umwana we kutigunga, kugira ngo bose barusheho kumererwa neza.

Umuganga n'umukecuru uri mu zabukuru wishimye cyane, bitewe nuko umuganga arimo kuganiriza umukecuru kugira ngo amufashe gukomeza kumererwa neza, amurinde kwiheba ahubwo arimo kumwereka ko imbere ari heza ko kandi agifite ubuzima atagomba kwiheba.

Abamana bari mu zabukuru, barimo kureba uburyo bafata neza ubuzima bwabo kugira ngo barusheho kumererwa neza. Barimo kureba ku mbuga nkoranyambaga ibintu bishobora gutuma bafata neza umubiri wabo bityo na bo bakarushaho kumererwa neza kandi bakagira ubuzima buzira umuze.

Umusaza wishimye cyane uri kumwe n'umudamu, barimo gufungura amafunguro atandukanye hari n'icyo kunywa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Muri amafunguro hari imboga, harimo ibinyabijumba, ndetse n'ibinyamisogwe.

Umukobwa urimo gufasha umusaza uri mu zabukuru kugira ngo arebe neza uburyo umutima we utera, ubona ko umusaza abyitayeho cyane kugira ngo abashe kumenya neza uburyo ubuzima bwe buhagaze, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bari mu zabukuru barishimye cyane, bitewe n'uko umukecuru ari kwita ku musaza amuha amazi yo kunywa kugira ngo barusheho kumererwa neza kandi bagire ubuzima buzira umuze.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bakuze cyane, harimo abasaza, abakecuru barimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, kandi bagire icyizere cy'ejo hazaza, kugira ngo na bo babeho neza kandi bafite umutekano,...

Umukobwa uri kumwe n'umusaza uri mu zabukuru, arimo kumuganiriza ku buzima, kugira ngo amwereke ko ubuzima bwe atari aha bugarukiye, ahubwo agifite ubundi buzima imbere, ko agomba gukora na we nk'uko abandi bakora, kugira ngo akomeze yiteze imbere.

Umusaza n'umukecuru barimo kunywa imiti kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, harimo baranywa ibinini byo kwa muganga kugirango ngo bakomeze kubaho neza, umukecuru arimo aramuganiriza amwereka uburyo iyo miti agomba kuyinywa kandi ari ingirakamaro kuri.

Abamama babiri barimo gukora imyitozo ngororamubiri, ubona ko bishimye cyane kubera ko ntago baheranwe no kuvuga ngo barashaje, ahubwo bo bakomeje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze kandi bakomeze gutekereza neza.

Umusaza uri mu za bukuru yahawe igikoresho kimufasha kuyungurura neza amaraso bitewe n'uko impyiko ze zari zangiritse. Umusaza urabona ko yishimye cyane kubera yuko yahawe ubutabazi bw'ibanze.

Umukecuru uri mu zabukuru wishimye cyane bitewe n'uko arimo gufata amafunguro y'ubwoko butandukanye, muri ayo mafunguro harimo imboga, imbuto, ibinyampeke ndetse n'ibinyabujumba byifashishwa kugira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa urimo gufasha umubyeyi uri mu zabukuru arimo kumuganiriza kugira ngo arusheho kumererwa neza, umubyeyi uri mu zabukuru arishimye cyane kubera ko arimo kuganira n'umukobwa we bakina kugira ngo akomeze kugira ikizere cy'ejo hazaza.

Umusaza uri mu za bukuru, arishimye cyane, bitewe nuko ari gufata amafunguro y'ubwoko bwose. Harimo imboga, imbuto, n'ibikomoka ku matungo, kugira ngo arusheho gukomeza, kugira ubuzima buzira umuze.

Abamama batatu bari mu za bukuru umwe ufite telefoni arimo kubereka ibigezweho ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo babashe kureba neza aho isi igeze, bamenye n'uburyo bafata ubuzima bwabo kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Ingamba ifashwe na leta kugira ngo ikangurire urubyiruko kwirinda icyorezo cya sida cyandurira mu mibonano mpuzabitsina, gutizanya ibikoresho bikomeretsa, kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza, urubyiruko rukomeze kugira imbaraga tuzabashe kubaka igihugu gifite ubuziranenge.

Imbaga nyamwinshi y'abantu iteze amatwi abantu barimo kubahugura kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Barimo kubigisha uburyo bafata neza imibiri yabo kugira ngo barusheho gukomeza kumererwa neza birinda indwara nyinshi zitandukanye, bagira isuku kugira ngo bakomeze kurushaho kugira ubuzima.

Ingamba zafashwe na Leta y'u Rwanda kugira ngo hongerwe ingufu mu kwita ku buzima, kuko ari ryo zingiro ry'ubukungu bw'igihugu. Kwita ku buzima bituma Abanyarwanda babaho neza kandi bafite icyizere cy'ejo hazaza, bityo bigatuma bakora neza kandi bizeye ko bagomba kubaho neza bakagira ubuzima bwiza.

Ingamba zafashwe kugira ngo hirindwe icyorezo cya SIDA cyari cyaribasiye urubyiruko kugira ngo hirindwe ko hagira undi ukomeza kucyandura kugira ngo abantu bakomeze kurushaho kugira ubuzima.

Umukobwa bigaragaza yuko afite indangururamajwi arimo kuganiriza abantu ibyerekeye ubuzima kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bwabo babufata neza kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu irimo ingeri zitandukanye, barimo guhugurwa ku buryo afata neza imibiri yabo kugira ngo bakomeze kurushaho kumererwa neza kugira ngo bongere igihe cyo kubaho, birinda ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi byose byatuma bagira ubuzima bubi.

Ingamba zafashwe n'ikigo gishinzwe kurengera ubuzima mu Rwanda, kigaragaza ko tugomba kwisuzumisha igituntu kuko gikira, bityo kikaraduka burundu abantu bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ingamba zafashwe kugira ngo hirindwe indwara y'Ubushita bw'inkende bityo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze kandi ahore afite icyizere cy'ejo hazaza.

Ingamba zafashwe n'ikigo kita ku buzima, kugira ngo harindwe ibidukikije, bityo bitume abantu bakomeza kugira ubuzima bwiza, kandi bigirire icyizere cy'ejo hazaza, kubera ko ibinyabuzima byose, bifite umutekano.

Ingamba zafashwe na Leta kugira ngo habashe kwitabwa ku buzima. Aha hariho aba mama, buri mama wese afite umwana we aho yaje kumusuzumisha kugira ngo arebe uburyo ubuzima bw'umwana we buhagaze, bityo umwana we amurinde kugira ubuzima bubi ahubwo amufashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo urimo kwigisha abantu kugira ngo hafatwe ingamba zo gukomeza kwirinda ikintu cyahungabanya ubuzima bw'abantu kugira ngo abantu barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ingamba zafashwe na leta y'u Rwanda kugira ngo hirindwe icyahungabanya ubuzima bw'abaturage ahubwo barusheho gukomeza kubaho neza bafite ubuzima buzira umuze, kandi bahora bafite icyizere cyo kubaho kugira ngo bakomeze kubaho neza.

Ingamba zafashwe n'ikigo cyita ku buzima kugira ngo hirindwe icyorezo cya Korona kugira ngo abantu barusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza, haba ku isi ndetse no mu gihugu.

Ingamba zafashwe n'ikigo gishinzwe ubuzima, kugira ngo hirindwe indwara zandurira mubuhumekero, aha hari abaganga batatu bambaye udupfukamunwa ndetse n'amashashi mu mutwe, kugira ngo birinde indwara zandurira mu buhumekero, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ingamba zafashwe na leta kugira ngo abantu baboneze urubyaro, kugira ngo bakomeze kubyara abo bashoboye kurera, kugira ngo abo babyaye bakomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ababyeyi babo nabo bakomeze kubaho neza.

Ingamba zafashwe na leta kugira ngo hirindwe indwara ya coronavirus, bityo bagakingira umuntu kugira ngo atandura ako gakoko gaterwa na coronavirus.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, inyubako yubakanye ubuhanga bwinshi cyane, ndetse kandi iyo nyubako ifite ahantu habikwa imiti hafite isuku, kugira ngo ibashe kurinda uyikoresha, aho kugira ngo imwangirize.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mu cyumba harimo umuganga ndetse n'umudamu uryamye ku gitanda, aho arimo kuvurwa bityo bigatuma arushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako itangirwamo serivisi zo kwa muganga ubona ko harimo abaganga barimo gutunganya imiti. Barimo kuyitunganyiriza ahantu hasukuye cyane kugira ngo itaza kwangiza abayihabwa ahubwo ibafashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yo Kukigia itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yubatse ku buryo bwiza kandi bwizewe, hariho umumama uje kwivuza kugira ngo ahabwe serivisi z'ubuvuzi kandi arusheho kumera neza.

Inyubako yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho babika imiti hakoranwe isuku nyinshi cyane kugira ngo iyo miti itaza kwangirika ikaba yakwanduza umuntu uyikoresha, ahubwo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, harimo ahabikwa imiti, hari isuku nyinshi cyane kugira ngo imiti izafashe abarwayi gukomeza kugira ubuzima bwiza, imiti bahawe itazangiriza ubuzima bwabo.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubakanywe isuku ku buryo yakira abarwayi benshi cyane kugira ngo hatagira uburara ubuzima, ahubwo abahagana bakomeza kubona serivisi z'ubuvuzi bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubatse ku buryo bufite isuku kandi bunogeye amaso bityo n'abahagana bakaza bishimye bitewe n'uko bari guherebwa serivisi ahantu heza hafite isuku, hatangirwa serivisi nyinshi zitandukanye harimo ubuvuzi bw'amaso, mu nda, umutwe ndetse n'izindi ndwara.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, inyubako bigaragara yuko ari nini cyane kubera ko yakira abarwayi benshi batandukanye, bagahabwa serivisi z'ubuvuzi kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye za mudasobwa zifashishwa mu gutanga serivisi yihuse, harimo ibikoresho byinshi kugira ngo bibashe koroshya akazi kugira ngo umuntu abone serivisi itamugoye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima yubatse neza cyane, ubona ko ifite isuku, inyubako abayigana baza gushaka serivisi z'ubuzima kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi y'ubuvuzi bityo bigatuma abagana iyo nyubako babona serivisi yihuse inoze kandi ku gihe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo uburwayi bwo mu nda, ubw'umutwe, amaso ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, inyubako yakira abantu benshi ku buryo ntawe uhagera ngo asubireyo adahawe serivisi nziza inoze kandi ku gihe.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ubona ko zubatse neza cyane, hanze y'izo nyubako hateye ibiti hari ubusitani bufasha mu gutanga akayaga ku barwayi baje kuhivuriza kugira ngo babashe kuruhura ubwonko.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yubatse ku buryo bunogeye amaso. Aho iyo nyubako yakira abarwayi benshi batandukanye kugira ngo bakurikiranwe bahabwe ubuvuzi, kandi barusheho kumererwa neza.

Inyubako yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, harimo umurwayi urwariyemo, ubona ko arwariye ahantu hafite isuku kandi harimo n'umugabo urimo kuzirika inzitiramibu kugira ngo hirindwe Malariya.

Umusaza uri kumwe n'umukobwa bishimye cyane bitewe nuko umukobwa arimo gupima umusaza uko umutima we urimo gutera, bityo bigatuma umukobwa agira inama umusaza y'ikintu yakora kugira arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubakanywe ubuhanga bwinshi cyane, ubona ko ari ahantu hasa neza, ku buryo n'umurwayi iyo ahageze yishima bitewe nuko nta mwanda uba uhari hubakaywe isuku.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi yubatse neza cyane. Harimo aho kubika imiti kugira ngo abayifata bayifate ifite isuku kugira ngo itaza kubangiriza ahubwo ibafashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo abagore n'abagabo barwariyemo, urabona ko harimo umugabo n'umugore bari gukora amasuku, kugira ngo abarwayi bavurirwe ahantu hafite isuku kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, Kabgayi aho yakira abantu benshi batandukanye bityo bigatuma abagana bahabwa serivisi nziza kandi zizewe bityo abaje kwivuza bagataha bishimye cyane bitewe n'uko bahawe serivisi nziza kandi inoze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yubakanywe ubuhanga bwinshi cyane. Inyubako harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwihutisha serivisi kugira ngo abayihabwa bayibone hakiri kare batahe bishimwe...

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Iyi nyubako yubatswe ku buryo bufite isuku, ku buryo umuntu uyigana aje gushaka serivisi ataha yishimye bitewe nuko yahabonye isuku, bityo bigatuma nawe afata umwanzuro wo kuba yahora agira isuku iwe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura, kugira ngo bafashe abarwayi gukomeza kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bifashishwa mu buvuzi kugira ngo abarwayi bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yubakanywe ubuhanga, igaragara neza ku buryo abayigana baza batikandagira, kubera ko babagana ahantu heza cyane kandi bakayivuriza bishimye, kuko hatangirwa serivisi nziza y'ubuvuzi kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yubatse neza cyane, harimo isuku nyinshi cyane ku buryo abaza kuhivuriza bataha bishimye kubera ko baherewe serivisi ahantu hafite isuku, bagatahana icyizere cyuko bari bukire.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo umumama urwaye uryamye ku gitanda, arimo gufashwa kugira ngo akomeze kurushaho kumererwa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yubatse ku buryo yakira abantu benshi batandukanye, hariho abaje kwivuza b'ingeri zitandukanye harimo abana, abagore, kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi kandi bakire neza bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, harimo umurwayi uryamye, ubona ko aryamye ahantu hafite isuku kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ubona ko ari inyubako nini cyane. Ni inyubako yubakanywe ubuhanga ku buryo uje kuhivuriza atagira ikibazo cyo kuba yabura aho yicara cyangwa se aho yahererwa serivisi, hari n'aho bategerereza ko babahereza serivisi kugira ngo babahe serivisi inoze.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi harimo intebe, ibitanda byifashishwa mu kwakira abarwayi kugira ngo babashe kuruhuka bahabwe serivisi neza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hanze yizo nyubako hari imodoka nyinshi cyane, harimo ebyiri z'imbangukiragutabara izindi nizifashishwa mu gutwara abaganga, kugira ngo babashe kugera ku kazi hakiri kare bafashe abarwayi gukomeza kubaho ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, bituma serivisi yihuta bityo abaje gushaka serivisi bigatuma bataha bose banyuzwe kubera ko bahawe serivisi nziza kandi ku gihe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mu cyumba harimo ibitanda byinshi bitandukanye, ndetse harimo n'inzitiramibu, nzitiramibu zifashishwa mu gutuma nta mibu yabasha kuruma abarwayi kugira ngo itabatera malariya, bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zubatswe neza kandi ni nyinshi cyane ku buryo zakira abarwayi benshi batandukanye kugira ku buryo nta murwayi n'umwe usubirayo adahawe serivisi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako izwi ku izina rya Isange One stop center, ikoreshwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, hariho abantu benshi bambaye udupfukamunwa harimo kugira ngo hirindwe icyorezo kugira ngo hatagira uwanduza undi kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gutuma serivisi yihuta, bityo bakavura umuntu byihuse.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu ukora imyitozo ngororamubiri abashe kugira ubuzima bwiza. Nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri umuntu afata imbuto kugira ngo zimufashe gukomeza kumererwa neza ndetse kandi umuntu anywa n'amazi kugira ngo akomeze kubaho neza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ubona ko harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura. Kandi harimo n'ahabikwa imiti hafite isuku kugira ngo iyo miti itaza kwandura ikanduza abayihabwa kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore urimo kwitonda ku mavi ubabaye cyane, umusore yagize ikibazo arakomereka none akeneye ubuvuzi kugira ngo abashe kurushaho kumererwa neza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aho afite amazi yifashishwa mu kunywa igihe yumva ananiwe kugira ngo amaraso akomeze gutembera neza mu mubiri kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye ibintu bimufasha kurinda ibiganza bye ko byakwandura, ibi bigatuma atabasha kwangirika igihe hari ibintu birimo umwanda akozeho, ahubwo bimufasha kwirinda bityo agakomeza kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri imufasha gutuma agira ubuzima bwiza, imyitozo ngororamubiri ituma arushaho kumera neza mu gusohora imyanda mu mubiri, gutembereza amaraso neza mu mubiri ndetse no mu gutuma amagufa akomera bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa urimo kunywa amazi, ari kumva n'umuziki kugira ngo bimufashe kumererwa neza, kumva atuje bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, arimo kunywa amazi kugira ngo amufashe kongera kumererwa neza, amaraso atembere neza mu mubiri kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umuganga uri kumwe n'undi muntu arimo kumugorora imitsi kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, amaraso abashe gutembera neza mu mubiri kandi akomeze gukora akazi nk'uko yagakoraga kugira ngo arusheho kumerwa neza birushijeho.

Umukobwa wishimye cyane uri mu myitozo ngororamubiri, aho ari kugorora imitsi y'amaguru, iy'umugongo kugira ngo arusheho kumererwa neza. Imyitozo ngororamubiri ifasha umuntu gukomeza kugira ubuzima bwiza, aho isohora imyanda mu mubiri, igatuma amaraso atembera neza mu mubiri, bityo uyikora akarushaho kumererwa neza.

Abagabo babiri bari gufasha umuntu wari ugize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri, barimo kumufasha kugira ngo abashe kugarura ubuzima bitewe nuko yari agize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri, barimo kumufasha kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abasore bari mu myitozo ngororamubiri, barimo guterura ibintu biremereye kugira ngo babashe kunanura imitsi, bakomeze amagufa, basohore imyanda mu mubiri bityo bitume bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imodoka yifashishwa kwa muganga mu gutwara abarwayi kugira ngo babashe kugera ku bitaro byihuse badatakaje ubuzima, bityo bagafashwa gukurikiranwa byihuse kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, aho arimo kugorora imitsi gutuma amaraso atembera neza mu mubiri, gushora imyanda mu mubiri, imbere ye hari ibiryo bitandukanye, harimo inanasi, amagi, pavuro, amashu ndetse n'ibindi byose bishobora kumufasha, gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umuganga urimo gufasha umuntu wagize ikibazo cyo mu ivi amukanda kugira ngo abashe kumunura arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, arimo kugorora imitsi kugira ngo amaraso abashe gutembera neza mu mubiri ndetse no kugira ngo aruhure ubwonko kugira ngo akomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kunanura ingingo z'umubiri kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, harimo kunanura imitsi, kuruhura ubwonko no kugira ngo amaraso abashe gutembera neza agere mu bice byose by'umubiri.

Itsinda ry'abantu bazwi ku izina ko ari abatabazi, barimo gutanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wagize ikibazo cyo kuba wenda yaguye hasi cyangwa se ashobora kuba yagize ikibazo.

Ibikoresho byifashishwa mu kuvura abantu kugira ngo barusheho kumererwa neza kurushaho ndetse kandi hari igikoresho bifashisha barimo kwiga uburyo bashobora gufasha umuntu kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Ibiganza bitandukanye bigaragaza ukuntu ashobora gufasha umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika mu ngingo kugira ngo amaraso akomeze gutembera neza agere aho agomba kugera kandi nta kibazo agize, ibyo bikamufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bifasha umuntu igihe yagize ikibazo, bityo bigatuma umuntu arushaho kumererwa neza, bityo bigatuma agira ubuzima buzira umuze.

Ibikapu birimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gufasha abantu bagize ibibazo, bashobora kuba bakomeretse cyangwa se bagize n'ibindi bibazo by'ingingo kugira ngo bafashwe gukomeza kumererwa neza.

Umusore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri, aho umusore afite umupira ndetse n'umukobwa akaba afite ibikoresho byifashishwa mu kunanura imitsi, ndetse no gusohora imyanda mu mubiri, bityo bakarushaho kumererwa neza.

Imiti myinshi itandukanye yifashishwa mu kuvura, mu gutuma abantu bakora siporo, kugira ngo imitsi yabo ikomeze igoroke neza, harimo impakasi yifashishwa mu gukata ibikoresho byifashishwa mu gupfuka cyangwa se mu gukomeza ku ngingo z'abantu.

Ibikoresho byifashishwa mu kugira ngo basuzume indwara ziri imbere mu mubiri w'umuntu, hakoreshejwe imashini bityo agahabwa serivisi ijyanye n'uburwayi afite, bityo akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri. Hari n'imbuto zifatwa n'umuntu umaze gukora imyitozo kugira ngo zimufashe kugarura imbaraga, bityo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu wahawe serivisi y'ubuvuzi mu kumupfuka ahantu yakomeretse, kugira ngo amaraso adakomeza kuvirirana kugira ngo arusheho kumererwa neza, kandi hirindwe umwanda wakwinjira unyuze aho yakomeretse.

Umuganga uri gufasha umusore wagize ikibazo cyo mu kaguru, bityo arimo kumuha ibikoresho bimufasha gukomeza kumererwa neza kugira ngo yirinde kuba yakwangirika bikabije, ahubwo arusheho kumera neza kandi agire ubuzima bwiza.

Umusore upfutse ahantu yakomeretse, yahawe igikoresho cyo gupfuka aho hantu kugira ngo akomeze kurushaho kumererwa neza. Kugira ngo hirinde indwara zandurira mu mwanda bitewe n'uko umwanda wakwinjira aho yari yakomeretse.

Igikoresho cyifashishwa mu gufasha umuntu wagize ikibazo haba mu ngingo ndetse n'ahandi kugira ngo kibashe kumufasha kumererwa neza, kandi ahorane imbaraga zituma akomeza kubaho neza.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo abashe kunanura ingingo, kunanura imitsi, kugira ngo amaraso abashe gutembera neza, no kugira ngo akomeze gutekereza neza, kugira ngo akomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Mu bikoresho cyifashishwa mu gufasha abantu kugira ngo bakomeze kubaho neza kandi bagire ubuzima bwiza buzira umuze, iki gikoresho bakifashisha mu gufasha abantu kugira ngo bakomeze kubaho neza kandi bagire ubuzima bwiza,

Umuntu urimo kunanurwa imitsi kugira ngo akomeze kumererwa neza, kugira ngo amaraso abashe gutembera neza mu mubiri wose, ubona ko arimo gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, kugira ngo akomeze kubaho neza kandi agire ubuzima buzira umuze.

Umusore ufite umupira mu ntoki, uvuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho gukomeza kumererwa neza, mu gukomeza amagufa, gusohora imyanda mu mubiri no mu gutuma amaraso atembera neza bityo bigatuma arushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa uvuye muri siporo arimo kunywa amazi kugirango amufashe gukomeza kubaho neza afite ubuzima buzira umuze, ikindi amazi amufasha gutuma umubiri umera neza ubwonko utekereza neza, kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, arebeye ku mbuga nkoranyambaga bityo bikamufasha gukora imyitozo myinshi itandukanye, imufasha kumera neza bityo amaraso agatembera neza mu mubiri, imyanda igasohoka mu mubiri bityo akarushaho kugira ubuzima buzira umuze.

Ibikoresho byifashishwa n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo imipira yifashishwa mu gutuma umuntu akora imyitozo ngororamubiri akagira ubuzima bwiza buzira umuze. Imyitozo ituma umuntu asohora imyanda mu mubiri ndetse akanaba yarushaho gukomeza kumererwa neza.

Amashusho agaragaza abantu mu myitozo itandukanye kugira ngo bakomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza. Imyitozo ngororamubiri ibafasha gukomeza kubaho neza, kunanura imitsi, kunanura amagufa ndetse no kuyakomeza no kugira ngo imyanda isohoke mu mubiri kugira ngo bakomeze kugira ubuzima.

Abagabo babiri hari imyitozo ngororamubiri bafite umupira mu ntoki barimo kwifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo kugorora imitsi mu gukomeza amagufa ndetse no gusohora imyanda mu mubiri kugira ngo barusheho gukomeza kumererwa neza kandi bagire ubuzima buzira umuze.

Umuganga urimo kugorora umuntu kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, amufasha gukora imyitozo ngororamubiri yaba kurambura umugongo, kurambura amagufa, gusohora imyanda mu mubiri ndetse n'ibindi byose bishobora gutuma umuntu yagira ubuzima bwiza binyuze mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzirika ingingo z'abantu bavunitse, kugira ngo bakomeze kubungabunga ubuzima bwabo, imitsi ikomeze kurambuka neza, amaraso atembere neza, akaboko kaziritswe kari kavunitse mu ngingo bakazirika icyo gikoresho kugira ngo kabashe gukomeza gukora.

Igikoresho kizwi nk'imbago cyifashishwa n'abantu bafite ubumuga, kugira ngo kibashe gukomeza kubafasha kumererwa neza, kibafasha mu gukora urugendo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, bagere nk'aho n'abandi bagera kugira ngo bakomeze kubaho neza.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, urabona ko hari n'imbuto zifashishwa mu kurya kugira ngo umuntu arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza, umukobwa ntasohoza gukora imyitozo ngororamubiri ari burye izi mbuto kugira ngo umubiri we ukomeze gukora neza kandi arusheho kumererwa neza birushijeho.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, imufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Imyitozo ayikora kugira ngo agorore imitsi, akomeze amagufwa, asohore imyanda mu mubiri kandi amaraso akomeze gutembera mu mubiri, bityo bigatuma arushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu uri kunywa amazi ari kunywera mu icupa rinini cyane, kubera ko asoje gukora siporo, arimo kugira ngo amaraso abashe gutembera neza mu mubiri, kugira ngo impyiko zibashe kuyungurura neza amaraso, no kugira ngo abashe kugira imitekerereze myiza bitewe n'uko yarananiwe.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye bukorwamo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi, hari isekururo yifashishwa mu gutunganya iyo miti kugira ngo ibashe gutunganywa neza itangiriza abayinywa, kugira ngo abayikoresha bakomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Ibimera byinshi bitandukanye bikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bityo abawukoresha bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza. Uyu muti utunganywa ku buryo bufite isuku kandi bwizewe bityo abawukoresha bigatuma barushaho kumererwa neza.

Icupa rinini rivangiwemo ibimera bitandukanye bikorwamo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo kugirango ibashe kuvura indwara nyinshi zitandukanye, kugira ngo uyikoresha akomeze kugira ubuzima bwiza. Iyi miti iba yatunganyijwe hakoreshejwe ubuhanga kugira ngo uyikoresha itamwangiza.

Amacupa manini avangiwemo imiti gakondo yakozwe mu byatsi bitandukanye; byifashishijwe mu gukora iyo miti ivura indwara zitandukanye harimo izo mu nda uruhu ndetse n'umutwe kugira ngo ikomeze gufasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umumama urimo gushaka ibyatsi kugirango abashe kwivura, ibi byatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo kugirango akomeze kugira ubuzima bwiza. umumama arimo abishaka kugirango yivure akomeze kugira ubuzima.

Icupa rinini rivangiwemo ibimera bitandukanye kugira ngo byifashishwe mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, muri izo ndwara harimo izo mu nda, umutwe, iz'uruhu ndetse n'izindi ndwara zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu, uyu muti uvangirwa ahantu hafite isuku kugira ngo uwukoresha umugirire akamaro.

Umuntu urimo gutunganya ibimera kugira ngo hakurwemo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, bityo iyo miti igafasha abantu kumererwa neza kurushaho, iyi miti itunganywa ku buryo bufite isuku kandi bwizewe, kugira ngo itaza kwangiriza abayihabwa, ahubwo ibafashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Igikoresho kirimo imiti yakuwe ku bimera bitandukanye bityo ikifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo izo mu nda, igifu, umutwe, uruhu ndetse n'izindi ndwara zishobora kwangiriza ubuzima bw'umuntu.

Ibimera bitandukanye bikorwamo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo bityo uyikoresheje ikamufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ibimera biba byatunganyijwe ku buryo bufite isuku kandi bwizewe kugira ngo ubuhabwa ataza kugira ikibazo, ahubwo bimufashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Amacupa abiri avangiwemo ibimera bitandukanye, hakozwemo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, bityo abakoresheje uwo muti bigatuma barushaho kumererwa neza, uyu muti uba wavangiwe ahantu hafite isuku, kandi hizewe kugira ngo ufashe abawuhabwa kurushaho kumererwa neza, kandi bagire ubuzima buzira umuze.

Ikarito nini ivangiwemo ubwoko bw'ibyatsi butandukanye kugirango bwifashishwe mu buvuzi gakondo kugirango abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza, iyo miti ivanganwa isuku cyane kugirango itangiriza ubuzima bw'abantu.

Amacupa arimo imiti itandukanye yakozwe mu bimera kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Harimo izo mu nda, igifu, uruhu ndetse n'izindi ndwara zishobora kwangiza umubiri w'umuntu bityo iyi miti imufasha gutuma agira ubuzima bwiza.

Amacupa menshi atandukanye avangiwemo imiti myinshi cyane yakozwe mu bimera kugira ngo yifashishwe mu buvuzi gakondo. Bityo abayikoresha barusheho kugira ubuzima bwiza. Iyi miti iba yavangiwe ahantu hafite isuku, bityo uyikoresha ikamufasha kurushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Amacupa manini cyane kandi menshi, arimo igikakarubamba cyakozwemo amavuta kugira ngo yifashishwe mu kuvura uruhu ndetse n'izindi ndwara, kugira ngo uyakoresha arusheho kugira ubuzima bwiza.

Amacupa avangiwemo ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo izo mu nda, umutwe, uruhu ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye, imiti ibata yatunganyijwe ku buryo bufite isuku kugira ngo uyikoresha akomeze kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Icupa rinini rivangiwemo ibyatsi byakozwemo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, iyo miti iba yavanganywe isuku kugira ngo uyikoresha imufashe kumererwa neza cyane kandi hatezwe imbere n'ibyatsi kugira ngo na byo bibashe kubungabungwa kandi na byo bifashe abantu mu kugira ubuzima bwiza.

Icupa rinini rivangiwemo ibyatsi bitandukanye, byakozwemo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo bityo umuntu ukoresheje uwo muti, arushaho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo urimo gushaka ibyatsi byo gukoramo imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo. Iyo miti itunganywa ku buryo bufite isuku, kandi bwizewe bityo abawukoresha bikaza gutuma bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Icupa rinini, rivangiwemo ibimera bitandukanye, bikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo: izo mu nda, umutwe ,uruhu ndetse n'ubundi burwayi bwose, uyu muti utunganywa ku buryo bwizewe kugira ngo uwukoresha umufashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Amacupa avangiyemo ibimera byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo igifu, umutwe ndetse n'izindi ndwara zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu. Iyi miti iba yavanganywe isuku ku buryo uyikoresha irushaho kumugirira neza ikamugirira akamaro.

Ikimera cyifashishwa mu gukora imiti gakondo bityo ikifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo izo mu nda, igifu, umutwe, uruhu ndetse n'izindi ndwara bityo bigatuma uwahawe uwo muti umufasha gukomeza kumererwa neza birushijeho uko yarameze.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ikoreshwa mu kuvura indwara, kugira ngo abayikoresha babashe gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Icupa rinini rivangiwemo ibimera byakozwemo umuti kugira ngo wifashishwe mu buvuzi gakondo, bityo ukoresheje uyu muti arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Icupa rivangiwemo ibimera byinshi bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi gakondo harimo, igikakarubamba cyifashishwa mu kuvura uruhu kugira ngo, umuntu akomeze kugira uruhu rwiza ndetse, hanakorwamo n'ibindi bintu bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa rinini ririmo amavuta, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo iz'uruhu, ndetse n'ibiheri. Bityo bigatuma umuntu uwukoresheje, agira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze.

Ibimera bitandukanye byakozwemo imiti kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izo mu nda, iz'umutwe ndetse n'izindi ndwara bityo ukoresheje iyo miti arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibimera byifashishwa mu gukora umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Iki kimera kizwi ku izina ry'umuravumba, aho uvura indwara zo mu nda ndetse n'izindi ndwara, bigatuma umuntu arushaho gukomeza kumererwa neza.

Igikoresho kirimo ibimera bitandukanye byavanzwe kugira ngo wifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye harimo izo mu nda, iz'umutwe ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Uyu muti wavangiwe ahantu hafite isuku kugira ngo hirindwe ko wakwanduza uwuhabwa ahubwo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikimera cyifashishwa mu gutunganya imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi. Kugira ngo havurwe indwara nyinshi zitandukanye, harimo: izo mu nda, umutwe, uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Uwo muti utunganywa ku buryo bwizewe bufite isuku kandi uwufashe ukamugirira akamaro, ukamufasha kurushaho kumererwa neza.

Amakarito manini avangiwemo ibimera bitandukanye, hakozwemo imiti itandukanye kugira ngo ibashe kwifashishwa mu buvuzi gakondo bagira ngo umuntu akomeze kugira ubuzima bwiza. Iyi miti itunganywa ku buryo bufite isuku kugira ngo itaza kwangiza abayikoresha.

Icupa rinini rivangiwemo ibimera bitandukanye harimo ibitunguru ndetse n'indimu hakozwemo umutobe wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye harimo izo mu nda ndetse n'izindi ndwara bityo ukoresheje uyu mutobe bituma arushaho kugira ubuzima bwiza.

Ibimera bitandukanye, harimo tangawizi ndetse n'imbuto byifashishwa mu gukora imiti itandukanye. Aha harimo ifu ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gutunganya iyo fu kugira ngo ibashe gukorwamo umuti wizewe kandi ufasha abawukoresha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ikimera kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izo mu nda kugira ngo umuntu uwukoresha akomeze kugira ubuzima bwiza. Uyu muti utunganywa ku buryo bufite isuku kugira ngo uwukoresha utamwangiza, ahubwo umufashe gukomeza kumererwa neza.

Amacupa menshi avangiwemo ibimera bitandukanye, hakozwemo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, kugira ngo ivure abantu. Iyi miti iba yavangiwe ahantu hafite isuku, kugira ngo uyihabwa ize kumufasha kumererwa neza kurushaho.

Ikimera cyifashishwa mukora imiti gakondo, maze ikavura indwara nyinshi zitandukanye, iyo miti itunganywa ku buryo bwizewe, kugira ngo uyikoresha itaza kumwangiriza ahubwo arusheho kumererwa neza.

Ibimera byinshi bitandukanye byifashishwa mu gukora umuti gakondo. Uwo muti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Harimo igikakarubamba cyifashishwa mu gukora amavuta avura uruhu, ku buryo ukoresha amavuta akomeza kugira ubuzima bwiza.

Ikimera cyitwa tungurusumu cyifashishwa mu gukoramo imiti itandukanye bityo igafasha umuntu gukira indwara nyinshi zitandukanye, harimo izo mu nda, umutwe ndetse n'izindi ndwara bityo bigatuma uyikoresheje amererwa neza kandi akagira ubuzima buzira umuze.

Amacupa atatu, avangiwemo ibimera byinshi bitandukanye, byahujwe kugira ngo hakorwe umuti, kandi umuti ufite ingufu zo guhangana n'indwara nyinshi zitandukanye, harimo izo mu nda, igifu, umutwe, uruhu, ndetse n'izindi ndwara zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu.

Ibimera bitandukanye bikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo izo mu nda, igifu, umutwe, iz'uruhu ndetse n'izindi ndwara bityo bigafasha umuntu gukomeza kumererwa neza kurushaho.

Amacupa manini cyane avangiwemo ibimera bitandukanye, byakozwemo amavuta yifashishwa mu buvuzi gakondo, bityo uyakoresheje abasha gukira indwara y'uruhu, bityo akagira uruhu rwiza kandi runogeye amaso, ni umureba akabona ko afite ubuzima bwiza.

Amacupa arimo ibimera bitandukanye byakozwemo imiti kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara zitandukanye mu kurinda ko hagira umuntu wangirika bitewe n'uko yanyweye uyu muti, umuti uba wavangiwe ahantu hasukuye kugira ngo uwukoresha akomeze kugira ubuzima.

Ibimera bitandukanye ndetse n'imbuto bikorwamo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, bityo uhawe uwo muti akagira ubuzima bwiza, uwo muti uvangirwa ahantu hafite isuku kugira ngo ufashe abawufata kurushaho kumererwa neza.

Amakarito avangiwemo ibimera byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, yifashishwa mu buvuzi, kugira ngo babashe kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo izo mu nda, iz'umutwe ndetse n'izuruhu, kugira ngo umuntu akomeze kurushaho kumererwa neza.

Icyatsi gikorwamo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo igifu, ndetse n'umutwe, kugira ngo uwukoresha, akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye hariho ibimera ndetse n'aho gutunganyiriza umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kugira ngo akomeze kurwanya indwara zishobora kuba zakwangiza ubuzima bw'umuntu. Iyi miti itunganywa ku buryo bufite isuku kugira ngo uyikoresha bitamwangiza ahubwo ikomeze kumufasha kugira ubuzima bwiza.

Ikarito ivangiwemo imiti ituruka ku bimera bitandukanye kugira ngo yifashishwe mu kuvura abantu indwara nyinshi zitandukanye bityo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Amacupa menshi cyane avangiwemo ibimera bitandukanye, hakozwemo umuti wifashishwa mu kuvura kandi abawukoresha bagire ubuzima bwiza, umuti uvanganywe isuku nyinshi cyane, ku buryo uwukoresha utamwangiriza ahubwo umufasha kumererwa neza kurushaho.

Icupa rinini rivangiwemo imiti gakondo, yavanzwe kugira ngo yifashishwe mu kuvura abantu, iyi miti yavanganywe isuku nyinshi cyane kugira ngo itazagira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, ahubwo ijye ibafasha gukomeza kumererwa neza.

Ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo kugira ngo bivure indwara nyinshi zitandukanye, hari n'amacupa abiri, arimo imitobe yakozwe mu mbuto kugira ngo yifashishwe mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, bityo bitume umuntu ubikoresha arushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.